Inzu ifite igisenge cy'umukara, ifite amarange y'umweru, amatara ari kwaka, imodoka y'umweru iparitse imbere, munsi yayo ibirahure by'umukara, amapine y'umukara, uruhande ku nkengero hari ibiti birebire bifite amashami y'icyatsi.

Umugabo wishimye uri kureba hanze indege acishije amaso mu kirahure, arimo araseka, ahetse ibikapu ndetse ateruye n'ibindi mu kiganza kiwe, imbere hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku avuga ushaka gufata urugendo atekanye.

Turi kumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe urwego.

Ugatanga icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko usaba ariho, icyemezo cy'irangira ry'akazi, kopi y'indangamuntu, nimero ya konte.

Umukobwa wishimye urimo araseka wambaye hejuru imyenda y'ubururu ndetse no hasi wambaye ubururu uhumirije.

Umugabo wifashe mu maso agaragaza ko yatengushywe, inyuma ye handitse amagambo agira ati niba ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe.

Umuryango w'umugabo umugore n'umwana bari kumwe na muganga w'umugore, ufite icyiyumviro ari kumva uko umutima w'umwana utera ndetse umwana yabyishimiye ari guseka ndetse n'ababyeyi be papa na mama barimo baraseka.

Ishusho ishushanyije inyuguti ya s hejuru iriho akadomo, iyo shusho igizwe n'amabara y' umutuku ndetse muri yo harimo ikirango gifite ubuso busa umuhondo, harimo ikirango cy' umutuku umuzenguruko wacyo harimo umukara.

Turi kumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego.

Ikiganza giteruye inzu isize amarange y'umweru, ifite igisenge cy'umutu, ku ruhande rwabo handitse "biroroshye kurusha uko ubitekereza."

Umukobwa wishimye uri kureba hejuru mu kirere useka uri kuri terefone ufashe igikapu mu ntoki ndetse impande ye handitse umusangirangendo wizewe.

Umugabo uhetse umwana bombi bari guseka, amasura yabo ari mu ruziga rukoze ishusho y'umutima, kuruhande hari umusaraba mu irangi ry'umweru.

Murakaza neza. Ikigo cyambere mu Rwanda cyemejwe n'ububitsi bukuru bw'u Rwanda mu gutanga ubwishingizi buciriritse, hari abakobwa babiri bari guseka.

Abagore babiri umwe w'umuzungu, undi w'umwirabura wambaye hejuru ubururu n'umuzungu hejuru yambaye umweru, ahetse igikapu cy'umukara.

Abagabo babiri bari kureba muri mudasobwa iri imbere yabo, umwe asa n'aho avuga atunga urutoki ibyo arimo arareba.

Inzu irimo utubati tumanitsemo ibikoresho gakondo bigiye bitandukanye harimo: imyenda, harimo imitako yo mu ijosi, imitako y'amaboko.

Umumama uri mu iduka ricuruza imyenda ndetse ricuruza n'ibikapu by'abamama ndetse ku isura ye araseka cyane, yambaye umwenda w'ubururu ndetse urabona ko ari

Inzu irimo ibintu byinshi bijyanye n'ubukorikori harimo utubati tugiye turimo ibyo bikoresho ndetse n'ameza ateretseho ibyo bikoresho harimo imitako yo mu nzu, hakabamo imitako yo ku mubiri.

Akabati karerekare kagiye kariho imirongo igiye itandukanye gasa umukara gateretseho ubwoko bwinkweto bugiye butandukanye, bufite n'amabara atandukanye.

Umugore uri guseka ureba imbere ye, wambaye imyenda idozwe mu bitenge, ufashe ku meza, mu kandi kaboko harimo ikaramu imbere ye, hari urupapuro ndetse hakurya.

Akabati kagiye karimo ibintu bitandukanye hejuru harimo ingofero z'ubwoko butandukanye, zifite n'amabara atandukanye munsi hari imipira igiye imanitse ndetse...

Abagabo babiri bafatanye icyapa kiri mu ishusho y'urufunguzo, inyuma yabo hahagaze igikamyo kirekire kiri mu mabara asa oranje n'ibirahure by'umukara ndetse.

Imodoka y'umukara ifite amapine asa umukara, ibirahure bibonerana bifite inyuma icyapa cyanditseho Kigali, imodoka, isoko.

Abagabo babiri bahagaze bareba imbere yabo bishimye kandi baseka, bateruye icyapa kimwe mu ntoki gishushanyije urufunguzo, impande yabo hari imodoka y'umweru ifite ibirahure bibonerana, ifite amapine y'umukara.

Imodoka y'umukara ihagaze, imbere ifite icyapa cy'umweru byandikishijweho amagambo y'umukara, harimo inyuguti ndetse n'imibare.

Imodoka ihagaze munsi y'igisenge gifite amarangi asa umuhondo, gifite inkingi zifite amabara asa ubururu.

Imodoka ihagaze ahantu hubakishije amakaro y'umweru, imodoka y'umweru ifite ibirahuri bibonerana n'iyumukara ifite amapine y'umukara.

Mo imbere mu modoka bigaragara ko ari nshyashya, kuko intebe zayo zikikijwe n'amashashi ndetse n'aho batwarira hazengurukijeho amashashi, ndetse n'aho bahindurira umuvuduko hakikijwe n'amashashi, imodoka y'umukara ari Asasho.

Imodoka y'umukara iparitse, hejuru handitseho ko yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri irimo iragurishwa ku giciro cy'amafaranga angana.....

Inoti igaragaza amafaranga y'u Rwanda, iri mu mabara y'umutuku, ishushanyijeho agaseke ndetse ikaba yanditseho imibare gatanu, seru, seru, seru.

Umuntu w'igikara ufashe ku mashini ibara amafaranga, imbere ye hari amafaranga kumeze asa kacye Kandi hariho na Telefone ebyiri z'ubwoko butandukanye.

Igikoresho cyabugenewe mu kubara amafaranga, akaboko gafashe ku mafaranga kayashyira muri icyo cyuma kambaye isaha ku kuboko.

Ameza y'umweru ateretseho igikombe cy'ikirahure kirimo amata asa umweru gifashwe n'umuntu mu ntoki.

Intebe isa ubururu imbere hari ameza ariho igitambaro kiriho utudomo tw'umukara n'umuhondo, ateretseho isahane igizwe n'ibara ry'umutuku n'umweru ashushanyijeho uturabyo, ateretseho agapapuro gasa umweru.

Inzu ifite amadirishya abonerana, yubakishije amakaro hasi, ndetse n'igice gito cy'igikuta kigizwe n'amakaro, hejuru hasize amarangi y'umweru.

Ameza asa umweru ateretseho agacupa kabonerana, gafite umufuniko usa umweru na kake harimo uduti duteretse tuberamye, Igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye ya rukarakara.

Indovu y'umweru ifite umukondo w'umweru ndetse n'umufuniko w'umweruru, iteretse ku meza abajije mu giti impande yaho.

Inzu yubakishije amakaro, igice kimwe cy'igikuta cyubakishije amakaro, ahandi hasize irangi ry'umweru gifite igisenge gisa umuhondo, umuryango hahagaze umugore

Umumama wicaye ahantu bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya, iruhande rwe hari ameza hariho amasahani ariho amandazi, ku yindi sahani hariho imyumbati.

Umugore uhagaze ahantu hasi hubakishijwe amakaro bifite ibikuta bisa ubururu impande ye hari ameza y'umweru, ndetse imbere ye hakaba akabati k'ibirahure bibonerana.

Uburyo icumi butandukanye bwo gukoresha igikoresho gikoreshwa kibikwaho nimero, harimo ubwa mbere buvuga uburyo bwo kohereza amafaranga, uburyo bwa kabiri buvuga kugura, uburyo bwa gatatu buvuga kwishyura icyo watse.

Telefoni ebyiri zigendanwa zombi z'umukara mo imbere hazo hagiye handitsemo amagambo atandukanye, hamwe hagaragaza imibare kuva ku mubare rimwe kugeza ku mubare icyenda, ahandi hakaba harimo amagambo.

Igishushanyo kiri mu ishusho y'ibintu bisekeje, giteruye terefone igendanwa mu kiganza, yanditsemo amagambo y'umweru mu ibara ry'umutuku yanditse, ubonye amafaranga kuri konti yawe.

Umugabo wishimye cyane uri guseka, ureba imbere yazanye akaboko gateruye terefone igendanwa, yerekana ibiri kugaragara muri iyo telefone.

Urupapuro rusa umweru ruriho ikirangantego kirimo agaseke ndetse kumpande y'agaseke hariho ingabo, rwandikishijeho amagambo y'umukara ndetse hakaba hashushanyijeho imirongo igiye itandukanye ihagaze ndetse n'itambitse, ikaba ari urupapuro rugaragaza ko yishyuye imisoro.

Urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu y’umusoro, rusa umweru rwandikishijeho amagambo y’umukara ndetse rugiye ruriho amafaranga menshi ari mu mibare.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara, hariho n'ikirangantego gikozwe n'agaseke, impande y'agaseke hariho ingabo biriri mu kiziga cy'umuzenguko.

Inoti ishushanyijeho inzu ifite igisenge gikozwe mu buryo bw'ikiziga byinshi bigiye bifatanye handitseho ko ari amafaranga ya tanzaniya akagaragazaho umubare wa gatanu n'amazeru abiri.

Umuntu w'umuzungu w'inzobe cyane uteruye amafaranga y'amadorari mu kaboko kamwe no mu kandi kaboko. Undi muntu w'umuzungu utanga ikarita yo kwishyura.

Amafaranga menshi ahambirijwe n'akagozi ka lasitike gasa umutuku, amaboko y'umuntu ari kubara ayo mafaranga amwe muri ayo menshi.

Umugabo w'inzobe w'umusatsi w'umukara, uteruye mu ntoki ze inoti z'amafaranga zitandukanye mubiganza byombi, izo noti zishushanyijeho umugabo ufite uruhara.

Inyugute yanditseho ko yakorewe muri kongo igaragazaho amabara atandukanye , yanditseho gatanu n'ingombajwi ya f yanditseho munsi ijambo gatanu.

Amafaranga y'inoti ari mu mabara atandukanye, amwe asa icyatsi kijimye, yanditseho gatanu zeru zeru asinyeho.

Inoti zisobanuye amafaranga, zishushanyijeho igisenge cy'inzu ndetse n'umuryango, zanditseho imibare rimwe na zeru ndetse rifite amabara.

Ibiganza biteruye amafaranga biri kuyabara, amanoti menshi ashushanyijeho umusaza ufite uruhara, ndetse umusatsi ku mpande n'inyama.

Ibiganza by'umuntu w'imibiri yombi wambaye isaha, uteruye amafaranga atandukanye y'inote mu ntoki, iruhande rwe har' intebe isa ubururu n'icya,

Icyapa kigizwe n'amabara y'umweru yandikishijwemo amagambo agaragaza ubucuruzi bw'amafaranga, ibibabi bisa icyatsi kibisi, igikuta gisa umuhondo.

Inzu isize amarangi y'umweru hagiye hariho amagambo yanditseho, agaragaza aho bavunjisha amafaranga ndetse ahandi handitseho Bukavu Kigali Kampala.

Inzu ifite ibyapa byinshi kuri yo hejuru hari icyapa kigaragaza uburyo bwo kuvunjamo amafaranga ndetse no ku miryango y'iyo nzu hagiye hariho ibyapa bitandukanye biri mu mabara atandukanye.

Inzu ifite amarangi asa icyatsi kibisi ndetse kuri ayo marangi handitseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse no mu ibara ry'umuhondo hamwe handitseho uburyo bwo kohereza amafaranga ahandi handitseho Remera.

Icyapa kinini gisa ubururu cyandikishijweho amagambo ari mu mweru ndetse n'imibare irimu umweru ndetse hakaba hari n'ahasa umutuku handitse ngo uburyo amafaranga avunjishwamo n'uburyo amafaranga ahererekanywamo ndetse n'uburyo bwo kubona ikarita y'urugendo.

Inzu mberabyombi, hejuru hariho ibyapa mu mabara y'ubururu byandikishijeho amagambo amwe asa umweru, ayandi asa umuhondo avuga ivunjisha ry'amafaranga.

Inzu ndende iriho ibyapa byinshi bitandukanye, biri mu mabara y'ubururu byandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, handitseho ahazaza h'ivunjishwa ndetse muyandi.

Inzu ifite ibyapa byinshi ku muryango, ku madirishya ndetse no hejuru yayo, kuri ibyo byapa hari ibisa umuhondo, hari ibisa ubururu, hari n'ibisa ubururu.

Intebe y'umukara, igikuta gisa icyatsi kibisi, ahari indabyo zisa icyatsi kibisi, ziri mu tuntu dusa umweru.

Abantu benshi bari ku murongo bahagaze, imbere bareba imbere, aho bari gusaba ubufasha impande yaho bari.

Intebe z'uruganiriro zisa ubururu, zifitemo imisego isa umweru, yanditseho urukundo ni uru, impande yaho hari igikuta cy'umweru, kimanitseho isaha, ndetse.

Inzu igaragaza ibikoresho by'intebe zo mu nzu z'uruganiriro zisa umweru, ndetse imbere hari ameza afite ibara ry'umweru.

Inzu y'uruganiriro intebe ikozwe mu mbaho iriho imisego ibiri isa umweru iruhande hari akabati.

Akabati kabajijwe mu mbaho kari gusigwa irangi risa n'umutuku wijimye, umuntu uri gusiga akabati yambaye hejuru umweru, hasi yambaye amabara y'umutuku.

Imbaho nyinshi zibajijemo ibiti zipanze zigerekeranye zijya hejuru iruhande hari ibipfunyitse mumashashi ndetse y'ubururu hagazeru.

Inzu nini isize amarangi ya oranje, imbere yayo hari ibyatsi biteyemo ibiti bito bito bitaramera ngo byigire hejuru.

Intebe z'umweru, ameza ari mu kirahure, iruhande hari umuryango wikirahure, hanze hari utwuma tuzengurutse.

Igitanda gishasheho amashuka asa umweru werekeza hepfo hasashishijwe ishuka isa umuhondo, hanze hagaragara intebe z'uruganiriro ndetse.

Icyapa gishushanyije cyerekana inzu ndende cyane, ifite ibice byinshi bigiye bitandukanye, munsi hariho amagambo asobanura icyo iyo nzu ikorerwamo.

Ameza ateretseho ikayi agacupa k'amazi ava mu ruganda rw'Inynge mu icupa ribonerana ry'agafuniko k'ubururu, intebe z'umukara ikibaho cy'umweru.

Ahantu hari uruzitiro rw'utwuma dusa icyatsi kibisi cyijimye, imbere yaho hari ameza y'ikirahure, ikikijwe n'intebe zisa umukara, iruhande hari igikuta cy'umweru.

Isahani y'umweru iteretseho igikombe cy'umweru gifite aho bagifatira harimo mu gikombe ibintu bisa umutuku wijimye kandi biteretse ku meza.

Inzu y'uburiro ifite intebe nyinshi n'ameza menshi, hicayemo abantu batandukanye ndetse hakaba hari n'abashinzwe kubakira ,bambaye hejuru umweru hasi umukara.

Ahantu hari intebe z'uruganiriro, hafite urukuta ruhakikije rusa umweru, impande yaho hateyemo indabyo zisa icyatsi kibisi.

Ubusitani bufite indabyo nyinshi zitandukanye harimo n'ibiti birebire bifite amashami maremare agaye, abyibushye.

Ibyatsi byinshi cyane bisa icyatsi kibisi bateretsemo intebe z'uruganiriro zifite ameza hagati yazo impande hari.

Inzu y'uburiro ifite ameza menshi n'intebe nyinshi, intebe zisa umukara ameza ariho ibitambaro by'umweru na kake, hateretseho n'ibirahure byo kunyweramo ndetse n'ibikoresho byo...

Aho bakarabira intoki, aho amazi amanukira hasukuye, hasa umweru ndetse amazi aturuka ku gikoresho gikozwe n'icyuma, ku mpande hari udutambaro two kwihanaguza.

Inzu y'uruganiriro irimo intebe z'umukara n'ameza abajijwe mu biti, ateretseho amazi ari mu gacupa imbere hari aho berekanira.

Uruzitiro rw'utwuma tw'umukara twinshi, udutambitse ndetse n'uduhagaze, impande yaho hari intebe z'umukara zizengurutse ameza y'ikirahure nayo asa umukara.

Inzu ndende igizwe n'amarangi y'umweru ndetse n'ay'umutuku, ibirahure bisa umukara, imbere hari ubwogero bw'amazi asa ubururu, impande hari ubusitani burimo ibyatsi bitemo intebe z'umukara ameza yumu.

Inzu isize amarangi y'umuhondo iriho icyapa kiri mu mabara asa ubururu n'umuhondo handikishijweho hamwe amagambo mu ibara ry'umweru ahandi mu ibara ry'ubu....

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ,bamwe bari kuganira, abandi bari kureba muri ibyo bikoresho.

Abantu batambuka ku ruhande rw'umuhanda ba bagabo batatu ndetse n'umugabo wa kane ndetse, baraca imbere y'inzu ifunguye imiryango, imiryango yayo ikaba ari ibirahure, hejuru hakaba ari icyapa kigaragaza ko iyo nzu itanga ubwishingizi.

Icyapa cyanyandikishijweho amagambo y'umweru, kiri mu mabara y'icyatsi n'ubururu, amagambo yanditseho Remera, imbere hari igiti kirekire gifite amashami afite ibyatsi.

Imodoka ebyiri iy'umweru, amapine asa umukara, ibirahure bisa umukara, inzu ndende igerekeranyije gatatu ifite ibyapa bisa umutuku n'umweru, igiti kirekire kiriho insinga, umuntu uteruye indobo uri kugenda, ikirere gisa ubururu.

Abamama babiri basuhuzanya, umwe wicaye undi wunamye wambaye hejuru umweru ndetse yambaye n'ingofero, undi ari imbere hari...

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hariho icyapa cy'umweru ndetse n'igikuta cy'ubururu, muri icyo cyapa cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Inzu ndende ndende cyane igiye ifite ibice byinshi bitandukanye, imbere hari icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru, ifite imiryango isa kake.

Inzu ndende cyane isize amarangi y'umuhondo ifite uruzitiro rukozwe n'utwuma tunanutse uduhagaze ndetse n'udutambitse dusa umweru kuri yo handitseho ngo sonarwa.

Ibyapa byinshi cyane bigiye bisobanura ibintu bitandukanye, hariho icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo, n'ubururu bwijimye cyanditseho Nyarutarama yanditse mu magambo asa ubururu, icyapa cyanditseho aho bavunjisha amafaranga mu mabara y'umweru.

Icyumba cy'umwihariko kiberamo akazi ndetse haberamo n'inama, harimo ameza abiri atandukanye ndetse n'intebe ebyiri zitandukanye zifite ubwicariro ndetse naho kwegama hasa umukara.

Inzu ndende ifite ibirahuri bisa ubururu hejuru, hasi ikaba ifite imiryango ishushanyijeho ibyapa mu mabara y'ubururu yanditseho Kicukiro.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'abageni, bombi bari guseka bahoberanye, umugore afashe mu gituza cy'umugabo, umugabo amufashe ku mugongo.

Abakobwa babiri bari guseka, imbere yabo handitse amagambo avuga ati "dushyira imbere iterambere rya buri mugore."

Abagore benshi bazamuye amaboko yabo, bafunze igipfunsi bishimye, bamwe bambaye imyenda idozwe mu bitwenge, abandi bambaye imyenda y'amakanzu imbere.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro y'abageni, bombi bari guseka umugabo afashe umugore we ku kiganza ndetse umugabo...

Urupapuro rw'umweru ruriho utuzu twinshi uturere ndetse n'utuzu tugufinya, dufitemo uturongo tw'ubururu twanditsemo amagambo y'ibice bigiye bitandukanye, igice cya gatatu, igice cya Kane n'igice cya gatanu, rugaragaza ubushobozi cyangwa

Umugabo wishimye cyane, wambaye imyenda y'ubururu ndetse ku ishusho ye hazengurukijweho amabara y'ubururu, arimo araseka cyane yafunguye umunwa ndetse biragaragaza ko yafunganyije intoki ziwe z'ibikumwe z'ibiganza,

Abagore benshi bahagaze bambaye imyenda iri mu bwoko bw'ibitenge ndetse abandi bambaye amakanzu, bose bishimye imbere yabo hari ibikoresho bikozwe mu bugeni.

Umugore uri kubara amafaranga, umugabo uri kwandika ku rupapuro rw'umweru yunamye arurebaho ahagaze imbere y'uwo mugore ubara amafaranga.

Umukobwa uhagaze wambaye inkweto ndende cyane, wambaye ipantaro y'umweru ndetse hejuru yambaye ikoti ry'ubururu, agaragaza ko ari kureba imbere ye ndetse yegamiye imodoka ifite amabara yo mu ibara...

Abantu benshi cyane bari mu isoko ry'ubucuruzi, bucuruza imyenda imwe imanitse indi iri hasi irambuye ku imifuka, harimo abamama benshi batandukanye...

Isoko ry'ubucuruzi ririmo rirakorerwamo ubucuruzi, imboga zitandukanye, harimo imboga rwatsi, harimo inyanya, amashu ndetse n'ibindi.

ihuriro ry'abantu benshi cyane ahantu hahagaze amamodoka atandukanye harimo ibikamyo imodoka ntoya z'umweru ndetse n'amazu ku mpande zaho

Inzu ndende cyane n'imbere yaho igaragaza ko ari iy'ubucuruzi irimo ibikorwa bitandukanye aho bacuruza ibyokurya ndetse n'aho bacuruza imyambaro.

Abacuruzi b'abagore bafite ibicuruzwa by'ibirayi mu mifuka isa umweru imbere yabo hari umuguzi w'umugabo wazanye nawe agafuka gato k'umweru guhaha ibirayi ku muhanda.

Inzu nini y'ubucuruzi irimo abantu benshi b'abagabo bahagaze, imbere yabo hari utubati twinshi tumanitsemo inkweto.

Isoku rinini cyane ubona ko harimo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo inkoko, harimo uduseke, harimo imitako y'ubwoko bugiye butandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bw'ubukorikori bugiye butandukanye harimo inkoko, ibimamiyo, imitako yo mu nzu imitako yo ku mubiri.

Isoko riri gucuruza imbuto, ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi ndetse ibicuruzwa harimo inyanya, urusenda, intoryi.

Isoko ry'imbuto harimo; imyembe, imineke, indimu, amatunda, ibinyomoro, harimo abantu babicuruza benshi batandukanye b'abamama.

Abagore babiri bahagaze, umwe areba muri terefone, undi ari kumureba ibyo areba muri terefone aseka, umwe yambaye ingofero hejuru akaba yambaye umwenda w'umuhondo hasi umu...

Umugabo uhagaze uri kureba muri terefone igendanwa, arimo arishima aseka, impande ye hari inyanya ndetse.

Umugabo w'umuzungu wambaye umupira w'umukara uteruye icyapa gifite amabara y'umuhondo hagiye harimo n'andi mabara asa ubururu ndetse n'umweru, impande ye hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye ingofero y'umuhondo.

Umugabo n'umugore bahagaze, umugore uri kureba muri terefone, impande ye hari uwo mugabo uri kureba nawe muri fone uwo mugore ari kurebamo, umugabo wambaye ingofero y'umuhondo n'umupira.

Inzu ifite ibyapa byinshi kuri yo ku kumuryango ndetse no hejuru yabyo ibisa umutuku n'ibisa umweru, muri ibyo byapa hashushanyijeho umukobwa urimo arareba.

Umugore uhagaze wambaye imyenda idoze mu gitenge, urimo araseka afite umusatsi w'umukara urinzwe n'abantu benshi bamushagaye.

Umuntu wambaye umupira w'umukara, wambaye ingofero isa ubururu bwerurutse, urimo arashyira ikarito y'umweru mu ikarito isa ubururu nini cyane.

Umugabo uhagaze urimo arambara ingofero neza n'amaboko abiri, iruhande rwe hahagaze imodoka ebyiri ziri mu mabara atandukanye, iy'umukara ndetse no mu ibara ry'umweru, impande ye kandi hari ipikipiki.

Ni uburyo bugaragaza bwo guhahira kuri terefoni ngendanwa cyangwa ugahahira ku mbuga nkoranyambaga muri Kigali, uburyo bugaragaza ko byoroshye guhahira ku mbuga nkoranyambaga kandi buvuga ko ubanza gushaka aho uzaza winjirira muri iyo

Abantu batatu bicaye ku ntebe imwe, irimo amabara y'umutuku n'umuhondo iyindi iri mu ibara ry'umweru bari kureba muri mudasobwa.

Ipikipiki iparitse mu nkengero z'umuhanda usa umukara hariho uturongo tw'umweru, imbere hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye umweru n'ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara.

Umugabo w'umuzungu wambaye ingofero y'umutuku ndetse wambaye umupira w'umutuku uzamuye akaboko agaragaza ko yishimye, afite ndetse n'ibikarito ateruye mu kindi kiganza cy'uku...

Abatwazi b'amapikipiki bari mu muhanda w'umukara, bambaye ingofero z'icyatsi kibisi ndetse bahetse abagenzi inyuma yabo, na bo bambaye ingofero zisa icyatsi kibisi ndetse.

Uburiri busasheho amashoka ruteretseho umusego, iruhande hari amadirishya afite amarido y'umukara n'amarido y'umweru, ibikuta bisa umweru, hasi wubakishije amakaro y'umweru.

Umugabo uhagaze mu murima harimo ibitaka ndetse n'ibyatsi bike bike, urimo aravuga azamuye amaboko.

Inzu ifite amarangi y'umweru ifite ibikuta bisa n'umweru ifite amakaro, ifite intebe zisa ku n'umweru, ameza y'umukara.

Akabati karimo ibikoresho ndetse ameza abajijwe mu giti, akikijwe n'intebe zisa umukara, igikuta gisa umweru.

Uburiri buriho amashuka y'umweru arimo uturabyo, hariho n'umusego impande hakikije amarido ari ku idirishya, ndetse ibikuta bisa umweru.

Umuntu uhagaze mu nzira nyabagendwa y'amaguru y'igitaka, uri gusobanura usa n'uzamuye amaboko n'ibiganza w'umugabo, wambaye umwenda wo hejuru urimo icyatsi kibisi harimo n'uturongo tw'umukara agatambitse...

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite imiryango ndetse hasi yubakishije amakaro asa umweru, hejuru harimo amatara yaka umweru.

Inzu irimo intebe z'umweru ifite utubati tw'umweru, hahagazemo umugore wambaye imyenda y'ibitenge umeze nk'uri kuvuga iruhande.

Inzu nini cyane isize amarangi y'umweru, hasi yubakishije amakaro afite uruzitiro rurerure narwo rusize amarangi y'umweru, hanze y'iyo nzu haparitse imodoka isa umutuku.

Inzu ifite igisenge gisa oranje, urukuta rw'amatafari , ibirahure, igipangu gisa umukara wijimye, ndetse ku rukuta ruhashinga harimo amabara y'umweru n'utuziga tw'umweru.

Inzu ifite igisenge gisa umuhondo, hariho amarange ku gikuta cyayo asa umukara, ifite inkingi zisize amarange asa ubururu.

Inzu ikodeshwa iri i Kigali Kicukiro uyishaka wahamagara kuri nimero zero karindwi umunani kabiri karindwi kane kane karindwi umunani ikenda.

Inzu isize amarangi y'umweru n' imbere hari kwakamo amatara, ifite imiryango, ifite amadirishya hejuru hari icyapa kivuga "inzu igurishwa".

Inzu ndende, igerekeranyije kabiri, imbere yayo igiye ifite utuntu tw'utuzitiro tw'utwuma ndetse isize amarange y'umweru ndetse ikaba ifite imiryango.

Inzu ifite inkuta ndetse isize amarangi y'umweru, ifite umuryango, amadirishya, hasi hubakishijwe amakaro, imbere hari icyapa kivuga Kigali, Kimironko inzu iguriswa.

Inzu usize amarange y'umweru, ifite imiryango y'umukara ndetse n'ibirahure mu mpande zaho hateretse indabyo z'icyatsi kibisi

Inzu ndende cyane ifite amarangi y'umweru, ifite imiryango y'ibirahure n'amadirishya y'ibirahure, imbere hari ubusitani bw'ibyatsi bibisi, harimo ibiti.

Inzu ifite amarange y'umweru, ifite ibirahure bibonerana, hanze hari ubusitani burimo ibyatsi bisa icyatsi kibisi ndetse rukikijwe n'ibiti.

Isoko rinini cyane ryahuriyemo abantu benshi, ricuruza ibijyanye n'ibiryo byo kurya harimo inyanya, karoti, pavuro, sereri , tungurusumu, pina...

Inzu y'ubucuruzi nini cyane ifite igisenge cy'umweru ndetse igiye ifitemo ibikuta bisa umweru ndetse ahagana hasi hakaba hasa ubururu, harimo utubati twinshi turimo ibicuruzwa tugiye duteye ahantu hatandukanye.

Intebe zikozwe mu mbaho, aho bicara hariho imisego, hagati harimo ameza akozwe mu rubaho nayo afite ni inkingi...

Inzu y'ubucuruzi yagenderewe n'abantu benshi batandukanye baje guhaha, hasi yubakishije amakaro asa umweru ndetse hari asa umukara, ikaba ifite igisenge cy'umweru.

Inzu nini cyane igerekeranyije hasi ifite amakaro asa umweru nasa umukara hahagazemo abantu benshi harimo abana ndetse.

Umuntu w'umugore usutse ibisuko wicaye ku ntebe y'umukara ukojeje akaboko ku meza amuri imbere urimo araseka, iruhande rwe hari igikuta cy'umweru, hirya hari akabati gateretsemo ibintu bitandukanye by'ubucuruzi.

Inzu y'ubucuruzi yahuriyemo abantu benshi batandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse kandi harimo n'abacuruzi inyuma yabo bamanitse ibyapa by'ibicuruzwa bafite.

Inzu y'ubucuruzi harimo abantu benshi batandukanye, abacuruzi ndetse n'abaguzi, harimo gucururizwamo ibijyanye n'inkweto, ibikapu ndetse n'indi.

Abantu benshi bicaye imbere y'ameza hari abari kwandika mu bitabo, hari n'abari gukoresha imashini zabugenewe zo kubara.

Ikarita igaragaza ikigo cy'ubwiteganyirize mu kwivuza mu Rwanda isa ubururu yandikishijweho amagambo y'umukara, harimo amanditsemo manini.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, wambaye agapfukamunwa gasa icyatsi, uteruye urupapuro rwanditseho amazina kuzindana, umubare w'amafaranga ahawe miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imbaho ndende harimo abagore n'umugabo umwe abagore bambaye ibitenge biteze no mu mutwe ,iruhande rwabo hari igikuta kiriho ibara ry'umuhondo n'umweru.

Umugabo uhagaze imbere y'akabati gasa umweru, kariho icyapa gifite amarangi y'ubururu ugakozeho arimo aravugira mu ndangururamajwi areba imbere yiwe, yambaye imyenda isa hasi no hejuru.

Abantu benshi bahagaze mubandi bicaye, impande zabo hari ibyapa biri mu mabara atandukanye ibisa umweru ndetse n'ibisa ubururu; ahanditse ejo heza.

Umugore wicaye ku ntebe y'umukara wambaye imyenda idozwe mu gitenge ushize amaboko ku meza, wambaye impeta ku kiganza, usutse ibisuko

Abantu benshi bari mu nzu y'ubucuruzi baje guhaha, harimo n'abafite ibikoresho bifata amafoto arimo.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi biva mu ruganda, harimo iby'amavuta yo kwisiga, hakazamo iby'amasabune yo kumesa, iryo soko kandi ririmo abantu.

Inzu y'ubucuruzi irimo utubati twinshi turimo ibicuruzwa bipfundikiye mumasashe, ipfundikiye amakarito.

Inzu ndende yanditseho simba gishushu imbere hari intebe zisa umuhondo n'meza asa umweru ahandi hari intebe z'umutuku n'ameza y'umutuku.

Umukobwa wambaye indorerwamo z'amaso, wagiye mu iduka arimo aragenda afata ibyo akeneye mu kabati, harimo ibintu bigiye bitandukanye bikorerwa mu nganda bifunze mu makarito.

Isoko rinini cyane ririmo urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abagore abagabo baje guhaha isoko ricuruza ibintu bitandukanye bijyanye n'imirire byo guteka.

Inzu y ubucuruzi bicuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kuryagiye bitandukanye harimo kandi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibyifashishwa mu gukora amasuku mu rugo ndetse n'ibyifashishwa.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitondekanyije mu tubati harimo ababicuruza ndetse n'abaguzi babyo aho abacuruzi bari gusobanura.

Inzu y'ubucuruzi harimo utubati twinshi dufite ibikoresho by'ibicuruzwa, n'ibyo hariyo abantu bari kubipakira bari kubihaha ndetse n'abari kubishyira ku murongo.